Icyumba kinini kiberamo inama hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, abagabo, umuzungu, abadamu, imbere yabo hari ameza manini cyane ariho ibitabo byo kwandikiraho, ikaramu telefone irambitse, amazi yo kunywa y'inyange.

Abantu benshi bicaye mu nama bateze amatwi, umudamu wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'umutu, isaha ku kaboko, ahanze amaso ibiri kuvugirwa imbere ye, umwegereye yambaye ipantaro ya kaki n'ikoti, ishati y'umweru.

Umukobwa mwiza cyane uhagaze. Yambaye ipantaro y'ubururu ikote ry'amabara amanutse, umupira w'umweru. Imbere ye hari irangururamajwi arimo kuvuga ageza ikiganiro kubamukurikiye, umuryango uri inyuma ufunze.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye baricaye. Bateze amatwi, abasaza, abamama, abashinzwe umutekano. Ufite irangururamajwi arimo arabagezaho ibiganiro byiza yabateguriye.

Abantu benshi b'ingeri nyinshi, baricaye bari mu nama, abagore, abakobwa, imbere hari abicaye barimo kubagezaho ibiganiro babateguriye, ufite irangururamajwi arahagaze yambaye neza.

Abantu batandukanye bari mu nama, imbere yabo hari ekara nini cyane irimo kwerekana imirongo ngenderwaho bari bwigeho. Uhagaze ari kubasobanurira, ameza ari hagati yabo hariho amazi yo kunywa, imashini bakoresha

Abantu b'ingeri nyinshi bicaye mu cyumba cy'inama abagabo, abagore, imbere yabo hari ameza ateretseho amazi yo kunywa imashini bari kwandikiramo, hakurya hari...

Bahanze amaso ibivugirwa mu nama, baricaye ku ntebe z'umukara, baritegereza, bambaye neza, imbere yabo hari ameza, hariho amazi yo kunywa y'inyange, ibitabo byo kwandikamo, telefone irambitse.

Abantu benshi baricaye mu cyumba cy'inama, ingeri zose zitandukanye, abagabo, abagore, hasi hari tapi y'ubururu, iruhande rwabo hari utumeza dusize irangi ry'umuhondo, duteretseho amazi, ji yo kunywa.

Bicaye bitegereza bahuje umugambi, abagore, abagabo, hagati y'abo hari ameza, hariho imashini bakoreramo ibyo bateguye kuvuga, amazi yo kunywa y'inyange n'udukayi dutoya.

Abantu b'ingeri nyinshi bicaye mu ihema rinini ry'umweru, abagore, abagabo, uhagaze imbere yabo afite irangururamajwi, arimo kubagezaho ibiganiro yabateganyirije. Bambaye imyenda y'imihondo, bigaragara ko ari ikigo runaka bakorera.

Abantu bahagaze barimo kwifotoza ifoto y'urwibutso. Abakobwa, abagabo, akana gato bateruye. Ifoto ni nziza, ikwibutsa bya bihe byahise ndetse n'ibyo ugezemo ubu.

Abantu benshi bicaye mu cyumba k'inama bateze amatwi abagore, abagabo. Uhagaze umusaza yambaye ishati yamaboko maremare arogoshe, arimo kuvuga abagezaho ikiganiro babateguriye, imbere yabo hari ameza ariho amakayi bandikiraho amazi yokunywa.

Icyumba cy'inama kinini cyane, hicayemo abantu bari ku ntebe z'umukara imbere yabo hari ameza asize irangi ry'umutuku bafite irangururamajwi imbere yabo bavugiraho n' amaso yo kunywa y'i nyange.

Baricaye bameze neza abakobwa abagabo, bateze amatwi bitegereza ibiri gukorerwa imbere yabo, bari mu ihema ry'umweru hirya ni ikibuga kinini cyane giteyemo ibiti.

Abantu bicaye ku ntebe z'umukara, bari mu nama. Umudamu uhetse umwana, hagati yabo hari ameza, ariho amazi yo kunywa impapuro zo kwandikira, imbere yabo hari uri kubaha ikiganiro, hirya hari umusore wambaye umupira w'ubururu, urimo kufata amajwi n'amashusho.

Abantu b'ingeri nyinshi, bicaye mu cyumba cy'inama. Abakobwa, abadamu, abagabo bari kureba imbere yabo ekara nini cyane. Hari uwambaye ipantaro y'umukara, ishati y'amaboko maremare, umudamu mwiza cyane ari kubasobanurira ibijyanye nibyo bari kwigaho.

Abadamu babiri baricaye bari mu nama, iruhande rwabo hari umugabo, ameza azengurutse imbere yabo ariho imashini bakoreraho, ibitabo, isakoshi irambitse, amazi yo kunywa y'Inyange, irangururamajwi ziri imbere yabo.

Inzu ifite umuryango ukinguye isize irangi ry'ubururu, ifite amabati ashaje umusore uhagaze hanze mukibuga, wifashe neza uhagaze ari kureba, yereka abantu ko agannye ibigo byimari kugira ngo abashe kwiteza imbere.

Abanyeshuri baricaye, bambaye imyenda ibaranga, ishati y'umweru, ipantaro y'umukara. Imbere yabo hari ameza ariho mashine bari kwigiraho ibijyanye n'ibyo bahisemo kwiga.

Inzu ifite imiryango myinshi y'ubucuruzi irakinguye, abantu bahagazemo bagiyeha; imbere yaho hari ameza ateretse ariho intebe zo kwicaraho, imodoka y'umukara nziza cyane ibereye ijisho; uyitwaye nawe yaje kwihahira.

Abanyeshuri barimo kwiga, bambaye amashati y'umweru. Umwarimu uhagaze uri kubigisha, yambaye ikote ry'umukara. Baricaye, imbere yabo hari ameza ariho mudasobwa barimo gukoreraho babigisha uko babigenza.

Inzu ndende igeretse baririmo kubak itaruzura, ishinzemo ibiti byinshi, kugira ngo babashe guhagarara bubaka, iruhande rwayo hari izindi zuzuye zifite ibisenge bigiye bikoze kimwe, imbere yaho hari imodoka zihagaze, abantu benshi cyane.

Umugabo wambaye isaruti y'umutuku arimo kugenda mu muhanda, hirya hari umudamu wicaye ukubura, iruhande rwe hari igiti cyamashanyarazi kinini gifite insinga nyinshi, ibiti byinshi, urutoki.

Igiti cy'amashanyarazi kirekire, gifite insinga nyinshi zishamikiyeho, zijyana umuriro impande n'impande. Inzu irimo imbere, urugo rwaho ruzengurutswe n'ibiti bihateye, mo imbere harimo insina nyinshi cyane.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, iriho icyapa kigaragaza nimero yayo, ijana na mirongo itatu na rimwe, isize irange ry'icyatsi, ifite urugi rw'amarembo rusize irangi ry'ubururu, ipoto ndende itwara insinga z'amashanyarazi hirya no hino.

Igiti kirekire cy'amashanyarazi, kirashinze kirimo insinga nyinshi cyane zijya ahantu hatandukanye, ni ibikorwa remezo by'igihugu cyacu, twese tube ijisho ry'ushaka kubihungabanya, tumutange ahanwe hakiri kare.

Urugo rurerure rwubakishije amatafari ahiye ruri ku muhanda, iruhande rwaho hari igiti kirekire kiriho itara ryo ku muhanda, insinga zijya mu byerekezo bitandukanye, umuhanda wa kaburimbo.

Inzu ndende igeretse isi irangi ry'umweru, hari igiti kirekire kiriho insinga z'umuriro zijya mu byerekezo bitandukanye, mikindo imbere yaho hari abamotari babiri barimo kugenda mu muhanda bahetse abagenzi.

Inyubako nini cyane yubatse mu buryo bwiza, isize amarangi atandukanye, umweru, umukara, yanditseho amagambo manini y'umweru, iteyeho indabo zitandukanye zibereye ijisho.

Isuzumiro rinini ryo kwa muganga hicayemo abagabo batatu bambaye imyenda y'umweru y'akazi, intebe z'umukara, imbere yabo hari ameza hariho imashini bari kureberaho uburwayi bw'abantu babasubiza n'ibizamini babafashe.

Ikigo cyo kwa muganga kinini cyane. Imodoka y'imbangukiragutabara itwara abarwayi barembye ibajyana aho babafasha hari ubuvuzi burenzeho. Abantu benshi bari kugenda babereka ibikorwa bihakorerwa.

Inzu y'ubwisungane gusa hariho abakozi ba emutiyene n'abakiriya baje kugana ikigo cy'ubwisungane cyitwa buritamu, kiri mu nyubako isa n'iyubakishije amabati n'ibirahuri.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati, imiryango irakinguye, amadirishya, imbere yaho hari ubusitani buteye neza buri mu mukindo n'izindi ndabo zitandukanye.

Icyapa kinini cyane cyandikishijeho ibara ry'umweru Kabgayi, ni heza, hateye ibiti byinshi, ni kwa muganga bavura indwara zitandukanye, abantu bari kuhagana bashaka ubuvuzi.

Gereza nini cyane yubakishije amatafari ahiye, abagororwa benshi baricaye ku dutebe, abambaye imyenda ibaranga abandi babereye aho barahagaze barimo kuririmba.

Umugabo ufite umwuga wo guca imanza zitabera, akarenganura abarengana, abafite ibyaha bagahanwa .Yambaye umwenda w'umwuga, w'umutuku imbere hariho umweru. Ni mwiza aranezerewe kuko akora akazi ke k'ubucamanza uko bikwiye.

Abantu benshi b'ingeri nyinshi, abagore, abagabo, bicaye mu cyumba cy'inama, imbere yabo hari ameza ariho igitambaro cy'umweru, amazi yo kunywa, imashini bandikiramo ibyo bari gukora mu nama.

Umudamu mwiza aricaye mu ntebe y'umukara yambaye ikoti ry'umukara arimo aritegereza, imbere ye hari ameza ariho ibitabo arimo kwandikamo, mobike mu ntoki amazi y'inyange, ji n'kirahure cyo gusukamo.

Abantu batatu baricaye hagati harimo umugore umwe, bambaye ibibaranga bigaragaza ko ari komite y'abunzi, imbere yabo hari uhagaze barimo kubasa kugira ngo bamurenganure, aho afite icyaha agihanirwe.

Mu cyumba cyateganyijwe gukorerwamo inama abantu baricaye abagore, abagabo, imbere yabo hari ameza ariho amazi yo kunywa, ibitabo bandikiramo. Bafite irangururamajwi mu ntoki barimo kubagezaho ibiganiro, ingingo ngenderwaho bari buvugeho.

Abagororwa benshi barimo kugenda, imbere yabo hari inzu y'urukiko, umuryango urakinguye, barimo kwinjira bajya kugezwaho imyanzuro y'ibyo baregwa kugira ngo bisobanure, bamwe batahe abandi bahanirwe ibyaha bakoze. Ababashinzwe babari inyuma babaherekeje.

Umucamanza uhagaze wambaye umwenda w'akazi w'umukara n'umweru, afite irangurumajwi mu ntoki ateze amaboko arimo gusobanurira abantu ibigiye gukorerwa mu rukiko, bakoresha ukuri ubutabera mbere hari ibendera ry'igihugu.

Abantu benshi bicaye munsi y'ibiti ku dusambi, aba mama bakenyeye ibitenge, bateze amatwi abunzi bari imbere yabo bafite ibitabo bari kwandikamo imbere kumeza. Uhagaze abatwikiriye kugirango izuba ritabica.

Umugabo wambaye ikanzu y'umweru afunze amaboko yambaye ingofero mu mutwe, abapolisi babiri bamuri iruhande bamurindiye umutekano bamuherekeje aho agiye kugira ngo hatagira ikibazo kimubaho.

Igicupa cy'umutuku cyanditseho amagambo y'umweru manini ari mu bururu, ricometseho umupira w'umukara munini, ugaragaza ko warikoresha, turikenera igihe habaye inkongi y'umuriro, twitabara ubushobozi bw'ibanze, buri wese akeneye kurigira kugirango ngo igihe bimubayeho atarabona ubutabazi abe arikoresha.

Umugabo urimo kwihuta atambuka yambaye ipantaro, ishati y'umweru n'ingofero mu mutwe imbere ye hari inzu igeretse isize amarangi y'umweru n'umukara igiti giteye imodoka zihagaze imbere yaho.....

Umudamu arimo kugenda, yambaye kamambiri z'ubururu akenyeye igitenge kirimo amabara, yambaye igitambaro mu mutwe, umugabo umuri iruhande wambaye ipantaro y'umukara, ishati y'ubururu, bari kugenda ku ruhande, hirya hari imodoka ya polisi.

Umupolisi wo mu muhanda, arimo kwitegereza hirya no hino. Ashinzwe kureba umutekano w'ibinyabiziga ndetse n'abantu. Moto iri kugenda, imodoka ihagaze ku ruhande.

Umupolisi wambaye imyenda yabugenewe y'umukara irimo utubara tw'umuhondo, afite igitambaro mu ntoki, imbere ye hari ameza ateretseho gaze iri kwaka, arimo arabigisha uburyo uhuye n'impanuka y'inkongi ya gaze, wakwitabara ntugire ibibazo birenze.

Ivatiri y'umutuku ihagaze mu muhanda, ni nziza cyane, umugabo uyitwaye yambaye ishati ya kake isaha ku kaboko, umukobwa w'umupolisi wambaye imyenda y'akazi, yamuhagaritse arimo kumubaza ibyangombwa, ngo arebe ko atagenda bitubahirije amategeko.

Umuhanda munini ufite ibyerekezo bitandukanye imirongo y'umweru igaragaza uburenganzira bw'abanyamaguru aho bambukira, abamotari benshi cyane bahagaze bategereje ko abapolisi bari mu muhanda babaha uburenganzira bwo kugenda.

Umugabo uhagaze wemye, yambaye neza cyane, ikote, ishati y'umweru, asokoje umusatsi mwinshi, afashe ku ibendera ry'igihugu amanitse ikiganza, arimo arahirira igihugu ko atazigera agihemukira.

Umudamu wambaye ishati y'umweru, asokoje umusatsi. Afite impapuro mu ntoki n'ikaramu yo kwandikisha. Yicaye mu biro bye ategereje abamugana. Iruhande hari ibendera rya kera, tumuziho nk'intwari, umunyamurava.

Icyumba cy'itora gitatsemo ibitambaro by'amabara atandukanye, ubururu, umuhondo, icyatsi. Urubyiruko rwambaye imyenda ibaranga barimo barabarura amajwi.

Abagabo bane bicaye mu cyumba k'inama ku ntebe z'umukara, bambaye amakote, urabona ko bahanze amaso ibyo bari kubasobanurira, imbere yabo hari ameza ariho irangururamajwi bari kuvugiraho kugira ngo babashe kumvikana bose.

Umugabo wigiriye icyizere, aratinyuka yiyemeza kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu. Yicaye ku ntebe yambaye ikote ry'ubururu, ishati y'umweru, imbere hari mashini n'irangururamajwi, imuteretse imbere bigaragara ko ari kuyivugiraho asobanura imigabo n'imigambi ye.

Umudamu mwiza cyane arahagaze yambaye ibitenge, ni umutegarugori ubereye u Rwanda, afite umusatsi mwiza, ari kumwe n'abana be babiri b'abahungu, bambaye imyenda isa abafashe ku rutugu anezerewe yishimye.

Icyapa cy'ubururu n'umweruru, umutuku kiriho amagambo yanditseho ngo tora Kagame, umudamu uhagaze yambaye umupira w'umukara, ingofero y'umweru, afite idarapo mu ntoki. Imbere ye hari irangururamajwi arimo aramamaza umukandida wacu avuga ibigwi bye n'imigabo n'imigambi.

Umugabo aricaye ku ntebe y'umukara, imbere hari ameza yarambuyeho amaboko, yambaye ikote ry'ubururu ishati y'umweru, arogosha umusatsi wose, arimo araseka afite akanyamuneza, bigaragara ko hari ibimushimishije.

Abantu benshi b'ingeri nyinshi barahagaze bazamuye amaboko, abagabo, abagore, abakobwa, abana, baranezerewe cyane, umukuru w'igihugu wacu ari mu modoka y'umukara, azamuye akaboko arimo kubasuhuza abasekera ababwira ko abishimiye.

Abantu benshi b'ingeri zitandukanye, abadamu, abakobwa, abajene, bari ku murongo barategereje, kugirango ngo babashe kugerwaho bitorerere uwo bahisemo w'inyangamugayo kandi uzabageza kuri byinshi.

Ikibaya kinini cyane kirimo abantu benshi, banezerewe bishimye, bambaye imyenda y'umweru, umutuku, bazamuye amaboko yabo banezerewe cyane, bafite amabendera yamamaza FPR.

Abantu benshi cyane bari muri sitade baje kureba umukuru w'igihugu wacu bamushyigikira bamwereka ko bari kumwe yambaye neza cyane ikote ry'umukara inkweto nziza arimo araseka abereka ko abishimiye kandi ko abakunda azabahore inyuma muri byose.

Umudamu uhagaze wambaye neza cyane, umukenyero mwiza, akanigi mu ijosi , imbere ye hari irangururamajwi ari kuvugiraho, afashe ku ibendera ry'igihugu azamuye akaboko, ari kurahira inshingano ko aziyemeje ntakizamutangira.

Icyumba cy'itora abantu barahagaze abandi barimo gufungura udusanduku bashyiramo impapuro batoreyeho kugira ngo bagaragaze ko nta kintu bashyizemo abicaye bategereje babihanze amaso.

Umukuru w'igihugu cyacu perezida wa Repubulika arimo gutera intambwe, yambaye neza cyane ipantaro y'umukara ishati y'amaboko maremare, araberewe, ni umunyembaraga, umuhanga ukomeye cyane.

Abantu b'ingeri zitandukanye barahagaze, abagabo, abagore bafashe ku ibendera ry'igihugu cyacu bambaye neza bazamuye amaboko imbere yabo hari irangururamajwi bigaragara ko bari mu nteko bari kurahirira inshingano nshyashya bahawe ko bazazikora neza kandi bazikunze.

Abantu b'ingeri zitandukanye bicaye mu nteko ishinga amategeko, adepite, abadamu, abagabo, bateze amatwi ibyo bari kunguranaho ibitekerezo imbere yabo hari indangururamajwi, amazi y'inyange yo kunywa...

Abantu benshi cyane b'ingeri zitandukanye, abagore, abagabo bamanitse amabendera bishimiye umukuru w'igihugu wacu, amanitse akaboko arimo arabasuhuza, abishimiye ababwira ko abakunda.

Abagore, abagabo bahagaze mu nteko ishinga amategeko, bafashe ku ibendera ry'igihugu babamanitse akaboko bigaragara ko hari inshingano nshyashya batorewe bari kurahirira bazakorera igihugu cyabo ko batazigera bagihemukira, bambaye neza.

Moto irimo kugenda mu muhanda ishaka abagenzi, uyicayeho wambaye umwenda umuranga, ingofero mu mutwe, ari kugenda areba impande n'impande ko nta bagenzi bahari, hirya hari ahantu hateye intebe bigaragara ko bahafatira icyo kunywa.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi y'umweru n'ubururu , ifite imyanya myinshi yo kwicaramo , ni nziza cyane kuko nta muntu isiga ku rugendo. Igira imyanya yo kwicara, iyo guhagarara buri wese ntasigare ikamugeza aho agiye.

Imodoka nini cyane, itwara abagenzi, irahagaze, isize irangi ry'ubururu, umuryango ukinguye, kugira ngo abayigana binjiremo, itwara abantu benshi cyane, abicara, abahagarara, bityo bigatuma ntawusigara ku nzira.

Abamotari babiri bari mu muhanda bambaye imyenda y'akazi ingofero mumutwe, bategereje abagenzi kugirango babashe kwiteza imbere, moto ni nziza biradufasha igihe dukora urugendo rwa hato na hato rwihuse kandi kumafaranga makeya.

Imodoka yo mu bwoko bwa dayihatsu yagenewe gutwara imizigo, ifite amapine menshi. Irahagaze itegereje abayigana kugirango babashe kuyiha ikiraka cyo kubatwaza.

Imodoka ebyiri zigiye kunyuranaho, iyagenewe gutwara imizigo ifite irangi ry'umweru inyuma h'umutuku, umugabo uri kugenda ku ruhande ahetse igikapu arimo kwihuta cyane.

Imodoka nini cyane ikururana isize irange rya shokora, icyatsi imbere, amapine menshi cyane ay'imbere, ay'inyuma, ayo hagati iri kugenda mu muhanda igiye guca munsi y'ikiraro kigeretse hasi no hejuru abantu bari ku ruhande barimo kugenda.

Imodoka itwara abagenzi iri kugenda mu muhanda, isize irange ry'umweru. Itwara abantu batandukanye bajya mu mpande zinyuranye kandi ikabagezayo mu buryo bworoshye. Iruhande rwayo hari imodoka kinini cyane.

Umuhanda munini ufite ibyerekezo bitandukanye, imodoka ziri kugendamo iy'ubururu, umweru abamotari bahetse abagenzi barimo gushakisha ubuzima, moto ni nziza kuko zidutwara byihuse kandi byoroshye.

Akamoto gato gatwara imizigo gasize irangi ry'ubururu, karimo kugenda mu muhanda, gafite ipine rimwe imbere, abiri inyuma, gakora mu buryo bworoshye, ugatwaye akabona amafaranga n'ufite ubushobozi bukeya bwo gutwarisha imizigo akabona aho yisanga, iruhande rwaho hari imodoka y'umukara.

Utumoto tubiri dutwara imizigo, kamwe kari imbere, kandi kari inyuma. Ifite irangi ry'ubururu, amapine atatu. Gafunze hose. Kri mu muhanda. Imodoka iri inyuma yaho isize irangi rya giri.

Akamoto kagenewe gutwara imizigo kari mu muhanda, ni keza cyane gafunze hose, gafite amapine abiri inyuma na rimwe imbere, gafasha buri wese kubera ko igiciro cyose umuntu yisangamo mu bushobozi afite, imbere y'aho hari imodoka itwara abagenzi'

Umutaka wa emutiyeni ufunguye, ugenewe gucururizwamo amayinite, kubitsa, kubikuza. Imodoka isize irangi ry' umuhondo, umweru, igenewe gutwara abagenzi bagenda urugendo rwihuse kandi bafite amafaranga yisumbuyeho.

Imihanda ibiri iri mu byerekezo bitandukanye hamwe haca imodoka zizamuka, izimanuka, hagati harimo ubusitani bwiza cyane bubereye ijisho, imikindo n'amapoto y'umuriro. Umumotari uri kugenda ahetse umugenzi.

Mumuhanda w'ibitaka umumotari arahagaze, arategereje barimo kumuhambiriraho umufuka munini cyane, uri kuwushyiraho yambaye imyenda y'ubururu, iruhande rwe hari abagenzi be barimo kumwitegereza ibyo ari gukora, abadamu bahagaze barimo kuganira.

Umudamu witinyutse ahagaze kumuhanda afite indobo y'ibisheke arimo gushaka amafaranga amubeshaho, kugira ngo yikure mu bukene. Hirya ye hari akamoto gato cyane kari kugenda mumuhanda, kagenewe gutwara imizigo, karihori ihema ry'umweru.

Imodoka nini ya fuso iri kugenda mu muhanda, isize amabara atandukanye umukara, uburura, itwaye inka nyinshi cyane izijyana aho zagenewe kugurishirizwa, kugira ngo bazibage bavanemo inyama cyangwa se bazorore.

Imodoka nini ya fuso ihetse amamatera menshi cyane, dutoya, ihambirije imikoba, itwikijeho shitingi y'ubururu, iri kugenda mu muhanda, akamoto gatoya kagenewe gutwara imizigo y'abantu iciriritse.

Imodoka nini cyane y’umutuku iri kugenda mu muhanda, ikunda gukoreshwa itwaye ibikoresho byo kubaka umucanga, itaka, ni nziza kuko iripakurura bityo amafaranga akagabanuka yo gukoresha. Abantu babiri bari mu muhanda…

Imodoka nini cyane isize irangi ry'umweru, ni ndende, itwikiriye hejuru n'ibyuma byu'ubururu, itwaye n'inka nyinshi z'amabara atandukanye, hirya y'aho hateye ibiti byinshi ku muhanda, inzu ihinguka itagaragara neza.

Imodoka nini cyane itwara abagenzi. Isize irangi ry'umuhondo, umukara n'umweru. Ni nini cyane kuko itwara abagenzi benshi : abagenda bicaye, abahagaze. Iruhande rwabo hari moto ihetse umugenzi, abanyamaguru bari kugenda.

Umuhanda urimo imodoka zirimo kugenda, ufite ibyerekezo bitandukanye, ahazamuka n'ahamanuka, imodoka y'umweru isize irangi ry'umuhondo yagenewe gutwara abagenzi, ikora ubucuruzi bwo mu muhanda bw'abantu bihuta kandi bafite ubushobozi.

Imodoka eshatu zihagaze ku muhanda, iy'umweru yagenewe gutwara abagenzi, ni nziza cyane kuko igira imyanya umunani, uyiguze wajya ukora ugatwara abagenzi, kandi bakaba bisumbuye kugira ngo ubashe kwiteza imbere.

Ahantu heza ho kwicara ukaruhuka ukaganira n'uwo muri kumwe. Ni inzira y'abanyamaguru nta modoka ishobora gucamo. Abantu benshi barahatemberera bakishima bakaruhuka bakumva bamerewe neza.

Abantu baricaye ku dutebe turi muri jaride nziza, abari kuri terefone bambaye upfukamunwa, ni urubyiruko rutandukanye, ni ahantu hagenewe kugendwa n'abanyamaguru kugira ngo bisanzure, bicare baganire.

Umusore uri mu muhanda uri kugenda, yambaye ipantaro y'umukara irimo umweru, umupira, iruhande rwe hari inzu zubucuruzi zikinguye imiryango, iyindi ikinze, icyapa kiri imbere kigaragaza umuvuduko ntarengwa.

Umuhanda muremure cyane ku mpande zaho hateyeho urutoki, ishyamba, abantu bari kugenda, hakuno hari imashini yagenewe guhinga mu bishanga, irimo kuhatunganya, imbere hari icyapa cyanditseho Karongi.

Imodoka nini itwara abagenzi, irimo kugenda mu muhanda, irerekeza mu cyeyerekezo cy'imbere, iruhande rwe hayo hari abamotari batwaye abagenzi, barimo gushaka amafaranga.

Inzu ndende igeretse irimo ubucuruzi butandukanye, imiryango yo hasi iyo hejuru, abantu benshi bari kugenda bagana ahantu hatandukanye, abamotari bahagaze bategereje abagenzi, kugirango abatware babahe amafaranga.

Inzu ndende igeretse isize irange ry'umuhondo, hari ahagenewe ubucuruzi, aho gutura, umukobwa uhagaze hejuru muri etaje wambaye ipantaro y'ubururu n'ishati y'umweru.

Inzu ndende iteretse mu kibanza kinini cyane, irageretse inshuro nyinshi, isize amarangi meza kandi abereye ijisho, shokora, umweru, igitaka, biragaragara ko rwose ari inzu nziza. Iruhande rwaho hari ibisenge biri guhinguka by'izindi nzu bituranye.

Umuhanda munini urimo imodoka nyinshi zikurikiranye, kuruhande rwaho hateye ibiti byinshi cyane, ni byiza kuko bidukururira umuyaga, ukumva umerewe neza, bituzanira imvura igihe.

Inzu nziza ziri kumurongo zigezweho zifite ibisenge byiza cyane bikoze muburyo bwa gihanga urugo, urugi rwo ku marembo hanze'mbere haparitsemo imodoka indabo ziteye zikikije.

Inzu ndende igeretse isize irangi ry'umweru imbere yayo hari imodoka nyinshi ziparitse ibiti bibiri by'imikindo, abamotari bategereje abagenzi umuntu uhetse umufuka ku rutugu arimo kugenda mu muhanda.

Umuhanda munini, harimo imodoka itwara abagenzi, isize irange ry'umuhondo, n'umweru. Ni nini cyane, kuko itwara abagenzi benshi, abagenda bicaye, abahagaze, umumotari uri inyuma yayo uhetse umudamu wambaye imyenda y'ibitenge.

Abanyegare bahagaze ku ruhande bategereje abagenzi kugira ngo babahe amafaranga nabo baba babashe kwiteza imbere, imodoka zirimo kugenda, abamotari barimo kugenda kugira ngo babone amafaranga biteza imbere, bafashe imiryango yabo.

Mu muhanda umumotari arimo kugenda ahetse umugenzi, bambaye ingofero zibarinda impanuka, hirya ye hari umunyegare n'imodoka bikururana, moto ni nziza idufasha muri byinshi urugendo rwihuse kandi rworoshye.

Imihanda ibiri itandukanye uwo hakurya n'uwo hakuno, harimo inzira igaragaza ko abanyamaguru bafite uburenganzira bwo kwambuka, umumotari arahagaze yicaye kuri moto, ategereje ko umudamu uri mu muhanda abanza akambuka akabona kugenda.

Inzu ndende y'umuturirwa yubatse ahantu hagati y'umuhanda, ni nziza cyane ibereye ijisho, kuruhande hari ihuriro ry'imihanda riteyemo indabo, ibiti by'amashanyarazi bishinze.